Abana barimo ibibondo, bakwiye guhabwa ibikinisho bizajya bibafasha, mu kubaruhura mu mutwe kugira ngo nibazajya bari gukina, bajye bumva ko batari bonyine.

Ababyeyi barashishikarizwa kujyana abana babo mu mashuri y'inshuke hakiri kare, kugira ngo bahakure ubumenyi bw'ibanze buzabafasha mu myigire yabo ya buri munsi.

Udusimba dutandukanye nk'uruyuki, isazi, ibivumvuri n'ibindi, bikunze kwifashishwa mu gushushanywa ku bikuta abana bigiraho kugira ngo bijye bibashimisha.

Ibishushanyo birimo umusambi, imvubu, ndetse n'ibindi, bishyirwa ku nkuta z'amashuri abana bigiramo cyane cyane abo mu mashuri matoya, kugira ngo bibafashe kubarangaza mu gihe bazajya baba bananiwe.

Ibikinisho by'abana birimo ibipupe byifashishwa mu gukurura amarangamutima yabo ubundi bakaba babaho neza bumva batekanye.

Gukora ibikorwa byo gushushanya ku nkuta abana bakiri bato bigiramo bishobora gutuma babaho bishimye kandi bakina n'ibyo bikino kugira ngo bige neza.

Amashuri y'incuke ndetse n'andi abanza, bivugwa yuko akwiye gushyirwaho ibishushanyo bitandukanye, cyane cyane ibyo abana babona mu rugo kugira ngo bajye bamenya uko byitwa.

Ibikinisho yaba iby'udusimba duto ndetse n'ibindi, nibyo byifashishwa mu gutungura abana igihe bari mu marerero, aho bibafasha kuruhuka mu mutwe ubundi bakiga bitabagoye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke kuzamura bari hagati y'imyaka ine n'itanu bashyirwa mu mashuri mato kugira ngo bajye bakinisha bimwe mu bikinisho baba barateguriwe mu ishuri.

Mu mashuri y'inshuke usanga hari imyicunngo abana bajyamo bakarya iminyora ibyo bigatuma barushaho gukunda ishuri, aho ushobora kubabwira ngo basibe bikaba bitakugwa neza kubera ko baba bakumbuye kujya kuri iyo mikino.

Umwana uko agenda akoresha ibikinisho birera abana ni na ko arushaho gukura mu mutwe ndetse akumva aruhutse neza mu bwonko kuko ibyo bimufasha mu myigire ye ndetse no mu mikurire ye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'ibiburamwaka bakomeje kwitabwaho bitewe n'uko ibikapu bahabwa biba biriho udukinisho tw'udusimba tubafasha kuruhuka mu mutwe.

Abana biga mu mashuri y'inshuke batozwa guhanga uturirimbo kugira ngo baturirimbane, ubundi bishimire ko baba bateye intambwe, bakava mu rugo bakaza guhaha ubumenyi ku mashuri.

Abana batoya mu gihe cyo gukina, birakwiye ko hashyirwaho ibikinisho bizajya bibafasha kuruhura mu mutwe ndetse bagasubira mu ishuri bameze neza.

Bimwe mu bikinisho by'abana hari n'igihe amatungo yororerwa mu ngo azwi nk'imbwa na yo abyifashisha agira ngo akine na byo mu rwego rwo kwerekana ko ibi bikinisho ari ingenzi cyane.

Ibikinisho by'abana b'inshuke cyane cyane abiga mu biburamwaka, bikomeje kuvuga yuko bigira uruhare runini mu kurangaza ndetse no gukangura ubwenge bw'abo bana, ubundi bakiga neza.

Ibikinisho by'abana ni kimwe mu bintu byitabwaho igihe bari gukorerwa ibikoresho cyangwa se igihe bari gutegurirwa aho bazajya baba bari, kuko bibafasha mu gutuma ubwenge bwabo bukura neza.

Gufasha abana bakiri bato mu bikorwa by'imyicungo, bituma bumva baruhutse ndetse n'akanyamuneza kakiyongera, bitewe n'uko ibi bikinisho bibafasha kuruhuka.

Ibikinisho by'abana birimo udusimba ndetse n'ibindi bikoko, bituma abana basobanukirwa neza, icyo ibyo bikoko biri cyo ndetse bakabasha no kuba babyirinda.

Abana igihe bashyiriweho ibikinisho ibi bizwi nk'imyicungo, bituma bumva ko batari bonyine kuko bituma basabana ubundi bakarushaho no kuruhuka mu gihe basoje amasomo cyangwa bagiye mu karuhuko gatoya.

Inka ndetse n'andi matungo atandukanye yo mu gasozi, bishyirwa ku nkuta z'abana biga mu marerero mato, kugira ngo bijye bituma bakura bazi neza ibyo bisimba ndetse n'inyamaswa.

Ubukangurambaga bufite insanganyamatsiko igira iti: "Ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo", ni imwe muri gahunda ikomeje gufasha urubyiruko ndetse n'abandi bakomeje kwisuzugura kuko na bo ari abantu bakwiye kwifatira ibyemezo.

Uburezi bwo mu mashuri abanza buvuga yuko umunyeshuri igihe abonye igitabo bimukundisha gusoma ndetse akaba yanasubiramo amasomo ye agatsinda neza.

Iyo abana bari kwigishwa uburyo butandukanye bwo gushushanya hagenda hibandwa ku bice bigize igishushanyo cyane cyane ku nzu n'inzugi, amadirishya ndetse n'igisenge.

Imiti gakondo ni yo iteza ibibazo cyane cyane igihe abantu banze kujya kwivuza ahabugenewe ahubwo bakajya mu buvuzi bwa magendu kuko usanga nibura mirongo itanu ku ijana by'abagiyeyo bahatakariza ubuzima.

Bimwe mu bikoresho biba biri kuri bowate nk'igikoresho gikoreshwa n'abanyeshuri biga imibare, bivugwa y'uko igira umumaro munini nko guca uruziga, cyangwa guca imirongo igororotse.

Abana bo mu karere ka Nyagatare bagaragaje imico mibi bashyikirizwa igororero ry'abana rya nyagatare, kugira ngo bakurikiranwe kandi bahavane indangagaciro zikwiriye umunyarwanda.

Amashuri ya pirimeri bivuga yuko nayo igihe yubatswe mu buryo bwisanzuye abana babasha kungurana ibitekerezo, bitewe n'uko baba batabyigana ubundi bakiga bisanzuye.

Mu masegonderi hashyizweho uburyo bw'amatsinda aho abanyeshuri bicara ari nka batandatu, bakiga ku kibazo runaka baba bahawe na mwarimu mu rwego rwo kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri cyane cyane abiga imibare, ibi bizwi nka bowate bavuga yuko bibafasha guca imirongo ndetse no gushushanya, kuko ibikoresho biba byifitemo ubushobozi bwo gukora ibyo bintu byose.

Ibishushanyo n'uturabyo, inkweto, isahani, ipantaro ndetse n'imineke, ni byo byifashishwa mu gihe abana bari kwiga kugira ngo bajye bakura bazi uko byitwa.

Gushyira ibikinisho bitandukanye birimo imyicunngo ndetse n'utundi dukinisho tw'abana bituma baruhuka mu mutwe ubundi bakiga bashyizeho umwete ndetse bakagira n'amanota meza.

Amarati ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kwiga, bivugwa yuko bifasha abana kumenya ibinyampande aho bifashisha amarati baca imirongo igororotse, mu gukora ibyo bishushanyo.

Muri gahunda leta yihaye yo kwegereza buri mwana ibikoresho by'ikoranabuhanga, hubatswe ikizwi nka computer lab, aho ibikoresho by'ikoranabuhanga bishyirwa ku bigo kugira ngo buri mwana wese ajye ajyayo abikoreshe.

Abana bitabiriye ibikorwa byo kumva amahugurwa yagenewe urubyiruko, bavuze yuko batazongera kugwa mu bishuko ukundi, ahubwo bazajya bakura amaboko mu mifuka bagakorera amafaranga yabo.

Umuyobozi w'amashuri yisumbuye mu Karere ka Nyagatare, araburira urubyiruko cyane cyane abangavu, kwirinda ibishuko kuko bizabafasha kwirinda inda zitateganyijwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abarangije segonderi, mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, bavuga yuko babonye ubumenyi bukomeye, burimo kwihangira imirimo ndetse no gukura amaboko mu mufuka bagakora.

Zimwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo cya korona virusi, hashyizweho uburyo bwo gupima umuriro buri munyeshuri wese ugerageje kwinjira mu kigo kugira ngo harebwe niba nta bwandu bwayo afite.

Abanyeshuri batandukanye biga mu mashuri yisumbuye bavuga yuko bahawe ifunguro rya saa sita ubundi n'imitsindire yabo ikiyongera kuko ubu ngubu nta kikibabera imbogamizi.

Mu mashuri ya segonderi biravugwa yuko Ngabo ndetse na Delaide, aribo baje ku mwanya wa mbere mu gutsinda neza ikizamini k'imibare.

Abanyeshuri bo muri segonderi, bavuga yuko igihe badahawe ifunguro rya saa sita ku gihe, bituma basubira mu masomo bakerewe, ibyo bikabadindiza mu mitsindire yabo.

Abanyeshuri biga mu yisumbuye bagira uruhare runini mu kurwanya ihungabana ndetse n'ubukangurambaga bukorerwa abangavu harimo no guterwa inda zidateganyijwe.

Abantu bakorera mu turere dutandukanye tw'Igihugu bavuga yuko igihe abanyeshuri bashyiriweho urubuga bazajya baganiraho imyororokere bizajya bibafasha gukura bisobanukiwe neza.

Amashuri ya leta ndetse n'andi, biravugwa yuko azajya yubakwa ageretse, mu buryo bwo kubungabunga ubutaka kuko igihe atandukanye, ubutaka ashyirwaho buba bunini, ugereranyije n'igihe yaba yubatswe, hejuru agerekeranyije.

Abiga mu makaminuza akomeye mu Gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ubumenyi bahakura ari bwo bifashisha mu guhanga imirimo yabo bwite igihe basoje amasomo.

Amakaminuza akomeye cyane, ni ngombwa ko yubaka inzu zigezweho, aho abanyeshuri biga bumva batuje, nta rusaku cyangwa se ivumbi rituruka hanze ngo ribasangemo imbere.

Abakora ububumbyi bw'amabaze ndetse n'indi mitako itandukanye yo mu nzu baravuga yuko ibi byabahinduye ubuzima ndetse ko bishimira ibyo bamaze kugera muri rusange.

Inyubako zitandukanye zigezweho hashyirwamo ubusitani kandi buri ku rwego rwo hejuru kuko abantu bahakora amasuku ari bwo babanza kwitaho kugira ngo berekane ubwiza bw'aho hantu.

Mu ma kaminuza cyane cyane ay'imyuga n'ubumenyingiro hashyizweho uburyo abanyeshuri bahura bakiga ku bigendanye n'uburyo bazihangira imirimo ubwo bazaba basoje amwe muri ayo masomo ahatangirwa.

Rumwe mu rubyiruko ruturuka mu makaminuza amwe n'amwe mu gihugu, ruvuga yuko rugiye gukura amaboko mu mifuka, ahubwo rukihangira umurimo kugira ngo rubashe kugira ejo heza.

Abiga mu ba kaminuza barishimira uburyo bahawe mudasobwa zizajya zibafasha mu myigire yabo aho kuri ubu ngubu bavuga yuko imitsindire yabo igomba kugenda myiza byikubye kabiri.

Mu nama z'amashuri yigenga ndetse na kaminuza, zikomeje gutanga umusaruro kuko ibihavugirwa bikomeje gushyirwa mu bikorwa, ubundi ugasanga impinduka zikomeje kugaragarira buri wese.

Mbere yo gutanga mudasobwa ku banyeshuri biga muri kaminuza zikomeye cyane cyane Kaminuza nkuru y'u Rwanda habanje gukorwa inama ikomeye bashishikarizwa uburyo batazagurisha izi mudasobwa kuko ari izo kwiga gusa.